Inyubako eshatu zitandukanye zifite uruzitiro rwinyingi ibyiri zasima zifashe utwuma dusize ibara ry'umutuku inyubako yambere ifite amabati y'umutuku yubakishijwe amatafari ifite nimirongo isize amabara y'umweru kugikuta cy'imbere namadirishya ane y'ibirahure asize ibara ry'umweru Inzu yakabiri isize ibara ry'umweru gusa naho iyanyuma isize ibara ry'ivu ifite amadirishya ataratu y'ibirahure nibara ry'umutuku kurusenge

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka, moto zitwaye abagenzi imwe muri zo iri mu zigezweho zikoreshwa na bateri, amatara, ibyatsi n'ibiti by'imikindo hagati mu muhanda ndetse n'ibiti byinshi bitandukanye mu nkengero z'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amatara, igare, moto enye, imwe muri zo itwaye umugenzi, harimo abantu bagenda n'amaguru ndetse n'umwanya abanyamaguru bambukiramo, ufite imirongo itambitse y'umweru. Hari ibiti bitandukanye haruguru y'umuhanda, ibyatsi n'amazu menshi atandukanye.